Umugore wambaye imyenda y'icyatsi gusa ndetse na bote z'icyatsi, ari mu kiraro kinini cyane yororeramo amatungo magufi nk'inkoko, inkoko ze akaba azitaho neza zikaba zifite isuku kandi zisa neza.